Akabari kaba keza, iyo ukeneye kunywa icupa urariywa ukaruhuka umeze neza, ikibi ni ukunywa menshi ugasinda, iariko icupa rimwe riba ryiza.

Inyama zokeje ziraryoha cyane cyane n'ibirayi birajyana iyo urikubirya wumva bijyanye , kandi bikajyira n'intungamubiri.

Amaduka aba meza cyane, kuko adufasha kubona ikintu ushaka utabanje kujya mu isoko, ibyo bikagufasha kwiteza imbere aho uri hose.

Imitako iba myiza, ishapure urayivuga uri gusenga, amaherena, n'ibindi byinshi ni ubwiza, bituma usa neza ukanasenga.

Umujyi uba mwiza, amazu agerekeranyije, ugasanga harimo ubucuruzi bwinshi kandi bwiza, abamotari bakagufasha kugera aho ugeza ibyo wahashye mu rugo neza bitakugoye.

Ikamyo zitworohereza mu ngendo dukora, twakoraga kera, cyane ko zitugezaho ibicuruzwa tuba dukeneye tutabikuye kure.

Izi mbuto ziba nziza, itomate ni nziza, ibihaza biba byiza bigira intungamubiri yuzuye, kandi biraryoha, itomate nazo zituma ibiryo biryoha.

Agasoko kaba keza, kabamo ibintu byiza tuba dukeneye, imbuto, ibitoki, ibintu byose bifite indyo yuzuye, tubibona mu masoko aba atwegereye.

Isoko rya kijyambere riba ryiza, ribamo imbuto, imboga zifite intungamubiri, icyo ushaka cyose ukakibonamo kandi ku mafaranga make meza ashoboka ukiteza imbere.